Iyo twiga cyane cyane ubutabire, tugira ibikoresho dukoresha, bikunda kuba mu byumba byabugenewe mu ndimi z'amahanga bita laboratwari, ni yo mpamvu ibikoresho tugomba kugira ahantu tubibika tukagerageza kubikoresha neza, twamara kuyikoresha tukongera tukabibika, kugira ngo n'ejo bizongere bikoreshwe bitangiritse.

Iyo tugeze mu ishuri dusangamo ibikoresho bitandukanye birimo intebe abanyeshuri bicaraho bakazifashisha biga, bakabona aho babika ibikoresho byabo, bakabona aho bicara, bakanabona aho barambika amakaramu yabo kugira ngo babashe kwiga neza. Ariko nanone bakifashisha ikibaho kugira ngo babashe kwiga ibyo bumva bagerageze no kubibona.

Pipitire mu gifaransa desike mu icyongereza. Ni intebe mu kinyarwanda. Zikunda kwifashishwa mu bigo by'amashuri, zicarwaho n'abanyeshuri, kugira ngo babashe kwiga neza. Zifite ububiko bw'amakaye, niyo mpamvu dukwiye kuzifata neza nk'abanyeshuri, kugira ngo twirinde kuzangiriza zizakoreshwe natwe ndetse na bagenzi bacu bakiri inyuma bakeneye kuzikoresha.

Iyo turi mu ishuri twifashisha ibikoresho bitandukanye, birimo ingwa, ibitabo, amakayi, amakaramu, amakereyo, cyangwa se ikaramu z'ibiti. Ariko by'umwihariko tukifashisha ikibaho kugira ngo ibyo tuvuga tubashe gufasha n'abashaka kubibona, kubishyira ku kibaho, hanyuma bakamenya ibyo bari kwiga ibyo aribyo ntibakomeze kuguma mu rujijo.

Ni iki kiranga umurezi ? Umurezi arangwa no kwambara umwambaro w'akazi ugaragaza y'uko ari umurezi koko, n'iyo mpamvu rimwe na rimwe iyo twasuwe n'inama y'ababyeyi cyangwa se abandi abantu batandukanye, kugira ngo bigaragareko twasuwe nk'abarezi n'uko twambara umwambaro w'akazi, hanyuma tugafata ifoto ikagaragazako twa....

Ishuri ni ikintu gikomeye cyane kuko twese tunyuramo kugira ngo tube aho turi bo, dusobanuke, umuntu ashobore kwikorera, ashobore kwihangira umurimo, ejo hazaza azashobore kubaho neza. Ishuri turiraga abana bacu, ishuri, dufashe abantu kwiga, tubagire inama, kandi ntitwifuze ko mugenzi wawe ava mu ishuri wowe umwana wawe ngo akomeze yige. Reka dukunde ishuri kuko rizadufasha mu buzima bwacu bw'ejo hazaza.

Dukunde gukoresha ibintu ariko byapimwe, gupima rero ni iki n'ijambo rishobora gukoreshwa an ahantu heshi hatandukanye. Ibipimo byifashishwa mu buryo butandukanye urugero nk'iyo dukora umuhanda twagakwiriye gufata ibipimo by'umuhanda, kugira umuhanda wacu ube uringaniye, nibaba ari ikibuga cy'umupira kibe kiringaniye gifite ibipimo twifuza ko kiba gifite. Mu gihe tutifashishije ibyo bipimo dushobora kwibeshya mu gupima cya kibuga cyacu.

Mu ndimi z'amahanga tugira icyo twita bife, bife rero mu kinyarwanda ni ameza ariho ibiribwa. Iyo tugiye kurya rero turahanyura tugafata ibyo kurya, hanyuma tukicara tukarya. Bife rero mu ndimi z'amahanga, niyo mpamvu dukwiriye kuyifata neza, tukamenya ko ibiryo bihagije, byujuje ubuziranenge kugira ngo ubifata wese abifate yishimye, kandi yizeye neza ko ari bizima.

Gushushanya, ushushanya agaragaza umwimerere w'cyo agamije gushushanya n'ubwo bidashobora kugaragara neza, ariko ashushanya afite ikintu yitayeho cyangwa se icyo ari kureba cyangwa biturutse mu myumvire, bifasha umuntu kugaragaza impano ye bikaba binashobora gutuma abona amafaranga bityo akabasha gufata bya bishushanyo yashushanyije, bigakoreshwa ahantu heshi hatandukanye, urugero bikaba nk'imfashanyigisho mu mashuri.

Imiti tuyikoresha tuyinywa, kugira ngo tubashe gukira uburwayi dufite, abayikora rero bayikora binyuze mu kuvanga ubwoko bw'imiti itandukanye, bikabyara umuti uvura indwara runaka, niyo mpamvu dukwiriye kumenya gusoma ibiri ku macupa y'imiti duhabwa, tukamenya ngo iyo miti igenewe bande, bafite imyaka ingahe, kugira ngo nibayinywa itaza kubangiriza.

Tugira icyo twita ibarizo. Ibarizo ni ahantu hakorerwa ibikoresho bikozwe mu mbaho. Imbaho zikomoka kubiti. Ibiti bitandukanye dushobora gusangamo inturusu, tugasangamo pinusi, tugasangamo ribuyu. Ibyo byose ni ibiti dukuramo imbaho tukabasha kuzifashisha dukora ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi.

Dukoresha ikoranabuhanga, ikoranabuhanga ni ryiza cyane, ikoranabuhanga ni ryiza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi aho umuntu ahamagara mugenzi we ari muri amerika, agahamagara mugenzi we ari ku umugabane w'uburayi, agahamagara mugenzi we amwegereye kandi bakabasha kumvikana niyo pamvu dukwiriye kwifashisha ikoranabuhanga mu buzima bwacu bwa buri munsi hahandi ushobora kuvura mugenzi wawe adahari, ibyo ibikoresho rero twifashi harimo telefoni n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ubudozi ni umwuga mwiza cyane, niyo mpamvu abanyeshuri bashishikarizwa kwiga kwihangira imirimo, kuko iyo umaze kumenya kudoda neza ushobora kugenda ukihangira imirimo, ugafasha abaturage ukabadodera, bityo nawe bikaguha amafaranga ukoresha ushaka ibyo ukeneye, niyo mpamvu rero ubudozi dukwiriye kubwitaho, tukabushishikariza abana bacu bakabwiga.

Tinyuka urashoboye, tinyuka urashoboye rwose. Mu Rwanda rwo hambere twari tukiri mu icuraburindi, aho bavugaga ngo umukobwa ntarya inyama y'ihene, umugore ntarya inyama y'ihene, ariko kuri ubu igihe zapimwe na veterineri turazirya kandi ntihagire icyo tuba, igihe yamaze kwemeza ko nta kibazo zifite, niyo mpamvu imirimo imwe n'imwe itandukanye dukwiriye kuyikora tudatinya urugero nko kubaza ndetse n'ibindi n'indi mirimo itandukanye.

Ubwubatsi ni umwuga mwiza cyane, kuko twese tubayeho dutuye mu mazu, dutuye mu nyubako izo nyubako dukesha ubwubatsi, ni yo mpamvu dukwiriye kwiga ubwubatsi, tukamenya uko bubaka inyubako zikomeye zidashobora gutera ingaruka, rero mureke abantu twese tumenye umwuga w'ubwubatsi, kugira ngo uwubaka n'uwubakisha abashe kubaho mu mutekano atakomerekejwe n'inyubako ye.

kugira ngo amateka yemezwe kandi ashingirweho, ni uko rimwe na rimwe hagaragara ibimenyetso byayo. Ibyo bimenyetso byayo rero bishobora kugaragara mu buryo butandukanye hifashishijwe video, hifashishijwe amafoto, ndetse n'ubundi buryo bwinshi butandukanye, hifashishijwe abantu byabaye bahari. Ni yo mpamvu dukwiriye gufata amafoto igihe biri ngombwa, kugira ngo ayo amafoto azifashishwe mu gihe cy'ejo hazaza, ndetse n'uwari udahari abashe kumenya amakuru kuri icyo kintu.

Dushishikarize abana bacu kwihangira imirimo binyuze mu gukoresha icyo twita mu cyongereza mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza fayine moto sikirizi andi gorosimoto sikirizi . Gorosi moto sikirizi, gukoresha intoki, bashushanya, bakora udukinisho, ndetse n'utundi dutako dutandukanye, kuko bishobora kubafasha mu buzima bwabo, binyuze mu kugurisha bya bihangano byabo bakabona amafaranga abatunga, akabafasha no kwiga.

Kwiga ni byiza kuko bifasha abanyeshuri kwiteza imbere binyuze mu kwihangira imirimo, kugira abanyeshuri bashobore kwihangira imirimo reka tugerageze gukoresha imfashanyigisho, izo mfashanyigisho zizadufasha, zizadufasha iki rero, zizadufasha kwereka abana bacu neza ,ndetse bakanagerageza kuvumbura icyo izo mfashanyigisho zimaze, binabafasha kugerageza kwihangira imirimo binyuze muri ya masomo bahawe mu ishuri.

Kwiga uburyo ibikoresho by'amashanyarazi bikoreshwa ni ingirakamaro, kugirango ngo tubashe kubikoresha tubisobanukiwe hanyuma twirinde impanuka za hato na hato zishobora guterwa no gukoresha nabi ibikoresho uwo amashanyarazi, niyo mpamvu rero dukwiriye gushishikariza bagenzi bacu ndetse n'abandi bose gukurikirana amasomo y'uburyo ibikoresho by'amashanyarazi bikoreshwa, kugirango ngo tubashe kubikoresha neza twirinde inkongi cyangwa se impanuka zabiturukaho.